Bigaragaza abantu basa nk'aho bari mu nama. Abagabo, abagore bose bafite impapuro, bari kwandika ibivugirwa mu nama. Harimo ifoto imanitse y'Umukuru w'Igihugu Paul Kagame.

Ifoto igaragaza abantu bari mahugurwa, umwe arahagaze afite indangururamajwi, inyuma ye hari umuntu ufotora, bambaye imyenda y'umukara n'abandi bitandiye.

Ni urupapuro ruvuga kuri minisiteri y'ubu ubuzima ibyo ikora ubuvuzi hariho nimero ushobora guhamagara hakabaho aho ushobora kohereza ubutumwa bugufi ndetse n'aho baherereye.

Iki ni icyapa cyerekana ikigo gikora amashanyarazi aho giherereye. Icyapa kiri mu mabara y'umweru n'umutuku kikaba cyerekana ko iri shami ari irya gikondo; Riherereye i gikondo. Hakaba hariho nimero ushobora guhamagara ku buntu hakabaho n'urubura rwayo.

Murukiko harimo abantu batanu, bane bambaye imyenda y'abagororwa, umwe wambaye imyenda y'ubucamanza ikanzu y'umukara irimo amabara y'umweru, abagororwa baricaye ku ntebe z'imbaho umucamanza arahagaze.

Abagabo babiri bambaye amakanzu y'abacamanza, umwe wa gatatu yambaye ikoti, umugabo yambaye amarinete umwe afite imashini imbere ye ndetse n'ikaramu ari kwandika.

Bari kubara amajwi bari gutora Perezida wa Repubulika, tariki cumi n'enye kugeza kuri cumi n'eshanu z'ukwa karindwi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, amazina y'umukandida ni Paul Kagame umubare w'amajwi y'umukandida yabonye bageze ku ijwi ry'ijana na makumyabiri na karindwi.

Ifoto yerekana umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yambaye imyenda y'ishyaka ayoboye Efuperi. Inyuma hari abashinzwe ku murinda aribo citiyu wambaye ibirangantego by'u Rwanda. Inyuma hakaba hari abari baje kwamamaza umukuru w'igihugu Paul Kagame.

Ni mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite amabara y'umweru yo mu cyatsi, ihetse imifuka y'amakara itwikirije shitingi y'ubururu.

Inzu isize amarange y'umweru iri kumwe n'ifite amabati atukura, hejura haranyuraho insinga z'umuriro hari urugo rw'imiyenzi.

Ibiikorwaremezo bya leta, kaburimbo, akayira k'abanyamaguru, harimo umuntu uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, harimo imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo itwara imizigo.

Umuhanda harimo abamotari babiri, umwe araparitse undi ari kumanuka, imbere hari imodoka y'umutuku, umumotari wa mbere uparitse yambaye bodaboda, moto ye ifite pulake RE 320B.

Icyapa cya mpandeshatu kirimo ibara ry'umweru rikikijwe n'ibara ry'umutuku, hirya yaho hari n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi, hirya y'umuhanda hari igorofa rifite ibara ry'umweru.

Ifoto igaragaza imiturire y'ahantu harimo ibiti byinshi amazu n'icyapa cya azamu bigaragaza ko ari kimironko.

Imirimo n'ibikorwa bya leta imodoka zigenga, imodoka zitwara abantu, ibyapa mu muhanda imihanda ya kaburimbo, abantu bagenda mu muhanda, abamotari abantu batwara amamoto...

Ni igorofa isize amarange y'umuhondo hejuru harimo icyapa cya olympic hotel haparitse amamodoka hanze iy'umutuku iy'umukara hasi mumiryango yo hasi irafunguye.

Mu muhanda nyabagendwa urimo imodokadoka ebyiri, imwe isa nkikata indi izamuka, ku ruhande hari umutaka wa eyateri n'abantu bahagaze mu muhanda, abagore babiri umwe witandiye undi wambaye ibitenge.